Inzu ihurirwagamo n'abantu benshi cyane, aho abantu bakundaga kuja guhurira bagiye kwishima, ndetse bishimisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibiryo byiza cane, ibiryo biturukaga mu biyaga ,aho bidufashaga kugira imibereho myiza cane ndetse tukagira n'ubuzima bwiza cane.

Ibiryo byiza cane, ibiryo bidufashaga kugira imibereho myiza, ibiryo bidufashaga kugira ubuzima bwiza tukagira imibereho myiza ndetse tukazabaho igihe kinini cane.

Umugabo urimo akora imirimo yo guteka cangwa se kotsa inyama, aho dukundaga kubibona cane cane mu inzu babacururizamo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha.

Inzu nziza cane ihurirwagamo n'abantu benshi cane, aho tubaga tugiye kwishimana n'inshuti n'abavandimwe twishimira ibyo twagezeho.

Abagabo beza cane bishimye bahuriye hamwe bagaragara ,basangira ikinyobwa mu nzu ahacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Abantu benshi cane bishimye aho bahuriye hamwe banezerewe bishimira ibyo bagezeho ndetse banasangira ibyo bagezeho.

Inzu nziza cane， inzu iteguye neza cane， aho abantu bahuriraga bagiye kwishima， ndetse bananezerewe cane，baganira ibintu bitandukanye.

Ibiryo byiza cane biryoshe cane bidufasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza cane, aho bidufasha kubyibuha ndetse no kugira isura nziza.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi aho tujyaga guhahira ibikoresho bitandukanye, tubaga dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nziza cane ikorerwagamo ubucuruzi aho tujaga kugurira ibikoresho bitandukanye ibyo bikoresho dukoreshaga mu rugo iwacu.

Inzu ikorerwamo umurimo w'ubwogoshi aho ubwogoshi budufashaga kwiteza imbere ndetse tukagira amafaranga yo guteza imbere imiryango yacu.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi aho tujaga dushaka ibintu bitandukanye, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, ndetse n'imibereho myiza cane.

Amazu menshi cane akorerwagamo ubucuruzi ibinyabiziga bitwara abantu aho aho mazu tujaga gushakiramo ibikoresho bitandukanye cane.

Amazu meza cane, amazu dukundaga kujamo tugiye guhaha ibikoresho bitandukanye dukeneraga iwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi cane.

Inzu dukundaga kuja guhahiramo, abantu barimo bacuruza ibyo dukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibidufasha kugira imibereho myiza cane.

Imodoka nziza cane dukundaga kubona mu umuhanda, aho dukundaga kuzikoresha mu igihe tuva ahantu hamwe twerekeza ahandi, kugirango bitworohere.

Amazu menshi cane akorerwagamo ubucuruzi, aho dukundaga kuja guhahiramo kugira ngo tubone ibyo dukenera, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nyinshi cane zikorerwamo ubucuruzi butandukanye aho dukenera ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyo dukeneraho mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwizaca

Aha haragaragara inzu, inzu imeze neza cane , iyo nzu ikaba igaragara nk'iyo bacururizamo ibikoresho bitandukanye, ibyo dukenera mu rugo mu buzima bwa buri munsi.

Inzu nyinshi cane zikorerwagamo ubucuruzi ,aho izo nzu tujaga guhahira ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho tubaga turakenera mu rugo iwacu.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi butandukanye, aho tujaga guhahira ibikoresho bitandukanye bidufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse no kwiteza imbere cane.

Inzu nziza cane, aho dukundaga kuja guhahira ibikoresho bitandukanye, ibyo tubaga dukeneye mu rugo iwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugirango tubashe kugira imibereho myiza cane.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi, aho tujaga guhahira ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa tubaga dukeneye mu buzima bwacu.

Amazu menshi cane akorerwagamo umurimo w'ubucuruzi, aho'umurimo w'ubucuruzi ukundaga kuduteza imbere cane, tukagira imibereho myiza cane mu buzima bwacu.

Inzu nziza cane ikorerwagamo ubucuruzi butandukanye, aho duhahiraga ibikoresho bitandukanye, kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu mibereho yacu ya buri munsi.

Inzu nziza cane igaragaramo umugabo. Umugabo waje gushaka ibikoresho bitandukanye, ahacururizwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kwiteza imbere cane.

Amazu menshi cane agaragara ku muhanda aho tujaga guhahira ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho dukoreshaga mu rugo mu gihe dushaka kugira imibereho myiza cane.

Amazu menshi cane ,amazu akundaga gukorerwamo ubucuruzi ,aho tujaga guhahira ibikoresho bitandukanye tubaga dukeneye mu rugo iwacu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, aho dukundaga kujya guhaha ibicuruzwa bitandukanye, kugira ngo tubashe kubaho mu mibereho myiza cane cane ya buri munsi.

Inzu nziza cane， ikorerwamo bikorwa bitandukanye，duhahiramo， dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi，aho dukundaga kuja guhahira.

Inzu bakoreragamo ubucuruzi aho tujaga guhahira ibikoresho bitandukanye, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, ndetse tugire n'imibereho myiza cane.

Amazu menshi cane aho dukundaga kuja guhahira ibikoresho bitandukanye, byo tuba dukeneye mu rugo, kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane.

Amazu menshi cane akorerwamo umurimo w'ubucuruzi, aho dukundaga kuja guhahira ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye dukundaga gukenera mu buzima bwacu bwa buri musi, aho bidufashaga kwiteza imbere.

Inzu ihurirwagamo n'abantu benshi cane, aho babaga bashaka ibikoresho bitandukanye, ibyo dukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane.

Inzu dukundaga kuja guhahiramo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho tubaga dukeneye iwacu mu rugo bya buri munsi.

Inzu igaragara icururizwamo, icururizwamo ibikoresho bitandukanye dukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza cane.

Umutegarugori ugaragara ari gucuruza, acuruza ibicuruzwa byinshi cyane. Imbuto dukeneraga mu buzima bwacu, aho zidufashaga kugira imibereho myiza ndetse zikanaduteza imbere.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, aho dukundaga kuja guhahira ibikoresho, dukenera ibiribwa dukenera, mu rugo iwacu.

Inzu zikorerwagamo ubucuruzi, aho tujaga guhahira ibicuruzwa bitandukanye, ndetse n'ibyo tubaga dukeneye mu rugo iwacu, kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane.

Inzu nziza cane, inzu ikorerwagamo ubucuruzi, aho tujaga guhahira ibikoresho bitandukanye tuba dukeneye, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nziza cane dukundaga gushakiramo ibikoresho ibidufasha mu rugo iwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi, aho tujaga guhahira ibyo dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kwiteza imbere ndetse tubona n'amafaranga.

Ndabona umubyeyi uri mu iduka cyangwa se iguriro aho baranguriza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibinyobwa n'ibindi bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibinyobwa ndetse n'ibiryo， ibyo binyobwa bikaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye，aho dukundaga guhurira twishimye cane，kugira ngo tubashe kwinezeza.

Inzu nziza cane aho tujaga kwishimira n'imiryango, tuganira ku ngingo zitandukanye, dushaka kwiteza imbere mu mirimo yacu ya buri munsi.

Inzu y'ubucuruzi dukundaga kuja guhahiramo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho tubaga dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira tugire imibereho myiza cyane.

Inzu duhahiragamo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho dukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho bidufashaga kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza cane.

Ndabona ibicuruzwa byinshi cane ahantu bacuruza ibintu turyamaho, matela, aho dukundaga kuziryamaho cane, ahantu tujya guhahira ibyo turaryamaho ndetse n'ibyo turasasa.

Inzu ikorerwamo umurimo w'ubwogoshi aho dukundaga kuja mu gihe umusatsi watubayeho mwinshi kugira ngo twiyogosheshe tugire umubiri mwiza cane .

Inzu zicururizwagamo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho dukeneraga mu buzima bwacu, mu gihe turi mu gikorwa cy'ubwubatsi, ndetse mu gihe dushaka gusukura amazu yacu.

Inzu ihurirwagamo n'abantu benshi cane abantu baba bagiye kwishimisha, ndetse n'ahaboneka amacumbi abantu bakundaga guhurira cane.

Inzu nziza cane, inzu zikorerwagamo ubucuruzi butandukanye aho abantu bajaga kwishimira ,bahuriraga bagiye kuganira ku bintu bitandukanye.

Inzu ihurigwagamo n'abantu benshi cane， aho abantu bahuraga bagiye kwishima，gusangira ibinyobwa ibisindisha ndetse n'ibidasindisha，duhuriragamo iyo tugiye kuganira ku iterambere ryacu.

Inzu nziza cane, aho abantu bakundaga kuja guhura baganira ku bintu bitandukanye, kugira ngo babashe kwiteza imbere ndetse no kuruhuka mu mutwe.

Isoko dukundaga kujya guhahiramo ibikoresho bitandukanye. Ibyo bikoresho bidufashaga mu buzima bwacu ndetse no kubika ibintu bitandukanye.

Abantu benshi cyane bagaragara bahuriye mw'iguriro, aho dukunda kujya guhahira ibikoresho bitandukanye tuba dukeneye, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho bikoreshwa cyane cyane mumashanyarazi. Aho dukunda kubikoresha kugira ngo tubashe kubona umuriro dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iguriro duhuriragamo turi abantu benshi, aho tubaga tugiye guhahira ibiribwa byinshi cane dukeneraga. Imbuto, ibyokurya kugira tubashe kugira ubuzima bwiza cane mu mibereho yacu.

Isoko dukundaga kuza guhahiramo imbuto zitandukanye, imbuto zidufashaga mu buzima bwacu zigatuma tugira imibereho myiza cane.

Inzu nziza cyane dukunda kujya guhahiramo ibikoresho, ibyo kurya, ibyo kunywa, aho tuba tubikeneye mu rugo iwacu. Bidufasha kugira imibereho myiza cyane.

Iguriro ryiza cane , iguriro duhuragamo n'abantu batandukanye tugiye gushaka ibikoresho bitandukanye , ndetse n'ibyo kurya tubaga dukeneye mu rugo iwacu.

Ndabona inzu ahantu hahurira abantu benshi cane, hari amazu ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, abantu baje hakorerwaga ibikoresho byinshi cane, bituma abantu biteza imbere cane mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'ibirayi uvaga mu buhinzi bw'ibirayi, aho ubuhinzi bw'ibirayi bukundwaga cane mu majyaruguru, bukaduteza imbere cane.

Iguriro dukundaga kujamo cane, aho tujaga guhahira ibikoresho bitandukanye, ibiribwa tubaga dukeneye mu rugo iwacu, kugira tubashe kubaho neza cane.

Iguriro ryiza cane aho dukundaga kuja tugiye kugura ibikoresho byinshi cyane, kugirango tubashe kwiteza imbere ndetse tugire n'imibereho myiza cane.

Ibirayi byiza cane bigaragara mu buhinzi, ubuhinzi dukundaga gukora mu majaruguru bw'ibirayi, bukaduha umusaruro tukiteza imbere ndetse tukabona n'amafaranga.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye: imyenda, ibindi bikoresho dukenera mu rugo, mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho bidufasha kugira imibereho myiza cane.

Ifoto nziza igaragaza isoko riri ahantu ku muhanda mwiza cane. Ahantu tuhahira ibicuruzwa bitandukanye, ahantu dukenerera ibyo dukenera mu buzima bwa buri munsi, ibyadufasha mu buzima bwa buri munsi.

Iguriro ryiza cane ahagaragara abantu benshi cane barimo bahaha imbuto zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza cane.

Igihingwa c'ibisheke , igihingwa dukundaga kubona mu Majaruguru , aho ibisheke ari igihingwa kidutezaga imbere tukabona umusaruro ndetse tukabona n'amafaranga aduteza imbere.

Inzu dukundaga guhuriramo turi abantu benshi cane aho tujaga guhahira ibyo tubaga dukeneye mu rugo iwacu kugira tubashe kugira imibereho myiza cane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu bari mu iguriro, aho dukunda kujya guhahira ibyo dukeneye, kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza, ndetse hadufasha kubona ibyo dukeneye cyane.

Iguriro ryiza cane abacuruzi bacuruzagamo, natwe tukaja guhahiramo imyenda, ibikoresho tuba dukeneye iwacu.

Abantu benshi cane bahuriye hamwe barimo bagura, bagura ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kugira imibereho myiza cane.

Abantu bahuriye hamwe aho dukundaga kuja guhahira ibicuruzwa, ibiribwa byinshi cane, aho bidufasha mu mibereho yacu.

Imbuto nziza cane, imbuto z'ipapayi ndetse n'izindi nyinshi cane zikundaga guhingwa mu majaruguru, umusaruro uvuyemo ukadufasha kwiteza imbere.

Abantu benshi cane bahuriye mu isoko, aho dukundaga kuja guhahira ibikoresho bitandukanye; bikadufasha kwiteza imbere ndetse no kubona ibiryo byo turya mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iguriro ryiza cane, iguriro tujaga kuguriramo ibintu bitandukanye, ibikoresho tuba dukeneye mu rugo iwacu ,aho dukundaga guhahira n'ibyo kurya byinshi cane.

Iguriro duhuriragamo tugiye kugura ibikoresho bitandukanye, ibikoresho dukeneraga mu rugo iwacu kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza cane.

Iguriro ryiza cane dukundaga guhuriramo n'abantu benshi cane, tugiye kugura ibikoresho ndetse bamwe bacuruza, kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza cane.

Ibikoresho byinshi cyane, ibikoresho bigaragara mu masoko aho dukundaga kuja kubihaha, amasafuriya, amabase, ibikombe, kugirango ngo bidufashe mu rugo iwacu.

Mu amajyaruguru dukundaga gusangira ikinyobwa twita umusururu, umusururu ukaba uva mu gihingwa citwa amasaka, tukaba tugikoresha mu gihe tunezerewe.